Urutara ruteretse rukaba ruriho amasahani hakaba harimo ibikombe ndetse n'imidaho hakurya hakagaragaramo ibiti binini bikuze cyane, ikirere bikagaragara ko gifite ibicu bisa umweru.

Imbaga y'abantu benshi cyane bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso bakaba bambaye n'amakarita aranga ibyo bakora ndetse n'impuzankano. Hakurya hakaba hagaragara ibiti binini bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego z'igihugu batandukanye, aho bigaragara ko hari uri kubaha ibiganiro, imbere ye hakaba icupa ririmo amazi ndetse n'ikayi yanditsemo ibyavugiwe mu nama.

Ivomo ry'amazi rya kijyambere. aho bigaragara ko hari umwana uri kuvoma amazi akoresha icyuma cyabugenewe basunika amazi akazamuka, hakaba hari n'abandi bana babiri bari kumureba ku ruhande rumwe ndetse n'undi mwana uhera hirya ari kureba ibyo bakora, hakurya hagaragara ibyatsi byishi.

Abaganga ubona ko bari kumwe n'abarwayi bari kubavura indwara baka bambaye impuzankano y'akazi bakora ndetse n'amakarita aranga ibyo bakora, hakurya hakagaragara umuntu wambaye ijiri isa n'ubururu ndetse n'amabara y'umukara, bikaba bigaragara ko izuba riri kuva.

Abadamu babiri bigaragara ko bari gukanda ivomo rya kizungu amazi akaza, hakaba hari n'undi mudamu uteze amazi mu ndobo ndetse no mu ibasi, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru, hakurya yabo hakagaragara ibiti binini bikuze cyane, bikagaragara ko akazuba kari kuva.

Ivomo ry'amazi ryabugenewe. Aho bigaragara ko hari umwana uri gukaraba intoki. Ku mpande z'aho hakaba hari ikidomoro kirimo amazi. Hakurya hakagaragara ibiti binini bikuze cyane ndetse n'amazu atuwemo n'abantu. Bikagaragara ko izuba riri kuva. Ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, imbere yabo hakaba hari umuntu uri kubaha ikiganiro, hakaba buri wese imbere ye hari icupa ririmo amazi yo kunywa.

Abadamu ndetse n'abakobwa bigaragara ko bari kubyina bishimiye ibirori byabaye aho bigaragara ko harimo n'abayobozi b'inzego z'igihugu zitandukanye bari ahongaho muri icyo kirori.

Umukobwa bigaragara ko ari ku mugezi akaba afite akanyamuneza, impande ze hakaba hari ibidomoro birimo amazi. Hakurya hakagaragara ibiti binini bikuze cyane. Hakaba bigaragara ko akazuba kari kuva, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Abana benshi cyane bigaragara ko bagiye ahantu ku gitembo kiri gutakaza amazi y'umugezi, bikaba bigaragara ko bishimye, hakurya hakagaragaramo ibiti bikuze cyane ndetse n'amazu atuwemo n'abantu. Bikaba bigaragara ko akazuba kari kuva ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Umuganga bigaragara ko ari kumwe n'uwaje amugana yaka serivisi zitandukanye, bikaba bigaragara ko umuganga yambaye impuzankano, akaba afite na telefone nini ngendanwa mu ntoki, hakaba hari n'icyapa kiranga ko sida iracyahari duhaguruke tuyirwanye.

Ivomo ry'amazi aho bigaragara ko amazi yabuze hakaba hari amajerekani menshi atondekanye, hakaba harimo abadamu baje kuvoma ndetse n'abakobwa.

Ivomo ry'amazi aho bigaragara ko hari umugabo ndetse n'umudamu bari kuvoma amazi hakaba ari n'undi muntu ubahagaze hejuru yambaye impuzankano y'akazi akora. Hakurya hakaba ari ibiti byinshi cyane ndetse ikirere kikaba gifite ishusho y'ubururu yiganje ibice by'umweru.

Abayobozi ubona ko bicaye ahantu hamwe mu gacaca bari kuganira, hakaba harimo n'ushinzwe umutekano, wambaye impuzankano isa n'icyatsi kibisi. Hakaba hari n'amazu ari aho ngaho ku mpande atangirwamo serivise zitandukanye.

Ivomero ry'amazi, aho bigaragara ko harimo ibikoresho byaje gutwarwamo amazi bitandukanye, aho hagaragaramo amajere ndetse amabasi, n'amasafuriya, n'ibikombe. Hakaba harimo abana ndetse n'abantu bakuru. Hakaba harimo n'umugabo munini wambaye umupira w'umweru, hakurya hakagaragaramo amazu atuwemo n'abantu. Ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri bigaho, bakaba bari ku ivomo bari kuvoma amazi mu ndobo zisa n'umuhondo, ndetse hakaba no ku mpande hari akajere, hakurya hakagaragaramo amazu atuwemo n'abantu ndetse n'ibiti by'indabo bikuze.

Abantu bambaye impuzankano isa ubururu, aho hagaragaramo abakobwa ndetse n'umuhungu umwe, bikaba bigaragara ko hari ibyo bari kwamamaza bakora, hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo bari kwamamaza.

Mu bitaro kwa muganga aho bigaragara ko harimo abaganga bambaye impuzankano bari kwita ku mwana mutoya, bari kumuha imiti. Impande ze hakaba hari n'umubyeyi bigaragara ko yitegereza umwana we hakurya ha akagaragara n'abandi barwayi baje kwaka serivisi zitangirwa kwa muganga.

Inzu mberabyombi, aho bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego z'igihugu batandukanye, imbere ya buri wese hakaba ari icupa ririmo amazi, imbere yabo hakaba umuntu ufite indangururamajwi ari kubaganiriza, hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo bajemo.

Abagabo bambaye impuzankano y'akazi bakora ndetse n'amakarita. Hakaba hari n'abaje kwaka serivisi zitangirwa ahongaho, ikirere bikaba bigaragara ko gifite ibicu by'umweru byiganje kandi izuba rikaba riri kuva.

Mu mbera byombi, aho bigaragara ko hari abantu barimo baje gufata ibiganiro, kandi kuri buri wese imbere ku meza hakaba hari icupa ririmo amazi yo kunywa. Bikaba bigaragara ko hari umuntu uhagaze uri kubaha ikiganiro, hakaba hari n'umuntu uri gufata amajwi n'amashusho. Hakaba n'ibyapa biranga ibyo bitabiriye.

Inzu mberabyombi bigaragara ko harimo abasore babiri bahuye bari kuganira, ukaba ubona ko bari kujya inama hakurya hakagaragaramo n'abandi bantu bicaye bari mu biganiro, hakaba n'ibyapa biranga ibikukorerwa aho ngaho.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego z'igihugu batandukanye, aho buri wese afite ikaye ari kwandikamo ibiri kuvugirwa mu nama ndetse imbere ye hakaba hari n'icupa ririmo amazi, hakaba harimo n'abafite mudasobwa, hakaba n'indabo zitatse aho hantu ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gufata amajwi no mu kwerekana amashusho.

Umwana yambaye impuzankano aho bigaragara ko afite udukombe tubiri turimo amazi bikaba bigaragara ko yishimye cyane hakurya hakagaragara abandi bana bamwitegereje bari kumureba iruhande rwe hakaba hari icyuzi ndetse n'ibisozi ubona ko bidahingwamo.

Mu bitaro kwa muganga aho bigaragara ko hari umuganga ndetse n'umubyeyi ufite umwana bikaba bigaragara ko uwo mwana bari kumwitaho. Hakurya hakaba n'ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu kuvura abarwayi.

umwana wikoreye inje irimo amazi ikaba ifungishije nk'umwanaanava ku gitoki akaba bigaragara ko hari umugabo uri kumwaka iyongere yambaye impozankano y'akazi akora hakaba n'undi muntu ufite telefonine'umukobwa uri gufotora nta bikaba bigaragaraho ko ari kumwe n'abandi bantu ikirere kigaragara nk ko gifite ibicu byiganje umweru ndetse n'amazu ari aho ngaho

Umukecuru usheshe akanguhe. Bigaragara ko akijijwe n'abuzukuru benshi cyane. Akaba afite umunezero ndetse n'abuzukuru bakaba bishimye cyane.

Ababyeyi ubona ko batwaye umwana bagiye bamurandase ubona ko arwaye arembye, hakurya hakagaragara n'abandi bantu bari kubareba, hakaba harimo n'abana bato bari ku mpande, ikirere uka ubona ko gifite akazuba kari kuva.

Inzu mberabyombi ubona ko harimo abantu benshi bitabiriye ibiganiro bakaba bafite amakayi bari kwandikamo, ibivugwa n'umuyobozi uri kubaha ikiganiro kandi imbere yabo akaba hari icupa rigiye ririmo amazi yo kunywa, hakaba hari n'ibirango byerekana ibyo bitabiriye.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abantu benshi batandukanye, bakaba bicaye hakaba hari umukobwa uhagaze ndetse n'umudamu, bakaba bigaragara ko bari guhura bagiye kuganira.

Imbaga y'abantu benshi, haba abana bato, abantu bakuze ndetse abagabo n'abagore, bakaba bazamuye ibendera ry'Igihugu. Bigaragara ko bishimye cyane, hejuru ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Umukobwa bigaragara ko yishimye cyane. Aho bigaragara ko afite umusatsi mwinshi, hakurya ye hakagaragara n'indabo zitatse aho hantu. Ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru.

Imbaga y'abantu benshi cyane, bigaragara ko bambaye impuzankano y'ibirango bya FPR inkotanyi. Hakaba hari n'umugabo ubahagarariye wambaye ibyo birango, bigaragara ko ari munini.

Umukecuru umukecuru bigaragara ko asheshe akanguhe. Akaba yambaye ibitenge bifitemo amabara y'umweru ndetse n'ay'icyatsi kibisi n'umuhondo. Inyuma ye bikaba bigaragara ko hari abandi bantu bari kwaka serivisi zitandukanye.

Ni inzu nini cyane bigaragara ko yubakanye ubuhanga buhanitse, aho bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, hakurya yaho hakagaragara ibiti binini bikuze biyikikije ndetse n'indabo ziri ku mpande, ikirere bikaba bigaragara ko gifite ibicu by'umweru byiganje.

Ifoto y'urwibutso aho bigaragara ko harimo abapolisi bambaye impuzankano iranga akazi bakora ndetse hakagaragaramo n'abandi batambaye impuzankano abo harimo abadamu ndetse n'abagabo.

Inzu nini cyane y'akataraboneka, ubona ko yubakanye ubuhanga buhanitse, aho bigaragara ko hari n'ibyapa biranga ibikorerwamo, hasi hakaba hari n'indabo ziyikikije, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu nini cyane y'icyitegererezo bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye zo kwa muganga ikagaragaramo ibikoresho byifashishwa mu kuvura abaywayi ndetse n'intebe umuganga yicaraho n'umurwayi.

Abana batoya ubona ko bambaye impuzankano. Bakaba bazamuye utuntu hejuru bigaragara ko bishimye. Akaba ari umuti w'amenyo bari kuzamura hejuru.

Abagabo babiri ubona ko bambaye impuzankano igaragaza akazi bakora, bikaba bigaragara ko umwe afashe akagozi ariko kugashyira mu menyo, akaba yegeranye na mugenzi we ari kwereka.

Abadamu benshi bigaragara ko bishimye, bakaba bari kumwe n'abagabo hakaba harimo n'uwambaye ikanzu y'abayisilamu, aho hirya yabo hari ibigori bikuze ndetse n'amasaka, hakaba hari n'ubundi bwoko bw'indabo, ikirere kikaba gifite ibicu byiganje by'umweru.

Umusaza bigaragara ko akuze, akaba afite ubwanwa burimo imvi z'uruyenzi. Akaba ahagararanye n'undi mukobwa, bigaragara ko ari kumuha ibinini ndetse anasomesha amazi.

Isoko rinini cyane bigaragara ko hacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho bigaragara ko harimo abadamu, hakaba hari umudamu umwe ari kubabwira asa n'ukuze, imbere yabo hakaba hari inyanya nyinshi ndetse no hakurya hakagaragaramo imbuto z'ubwoko butandukanye.

Umusaza usa n'ukuze akaba ari kumwe n'umwana we bari gusoma igitabo, imbere yabo hakaba hari udukombe tw'umweru turimo ibyo bari kunywa, ahantu bari bakaba hari ishusho isa umweru.

Inzu bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho bigaragara ko ari kwa muganga aho hagaragaramo umuntu ukuze ari ahantu bari kumunyuza kugira ngo indwara ye ikirekaba ari n'umuganga w'umukobwa uri kumuyobora ibyo akora.

Umudamu n'umusaza ndetse bigaragara ko basheshe akanguhe. Aho bigaragara ko bari kumuha imiti umusaza ari kunywa ,bakaba banamwereka uburyo azajya ayifata, imbere yabo hakaba ari agakombe gateretsemo amazi.

Umuganga yambaye impuzankano y'akazi akora, bikaba bigaragara ko ari kwita ku musaza wicaye mu ntebe, hakurya hakagaragaramo n'andi mazu atangirwamo serivisi zitandukanye ndetse n'indabo zikikije aho ngaho, ikirere bikaba bigaragara ko gifite ibicu by'umweru.

Abantu benshi bicaye mu nzu mberabyombi, aho bigaragara ko bategereje serivisi itangirwa aho ngaho, hari akarimo abantu basa n'abakuze ndetse n'abakiri batoya.

Mu bitaro kwa muganga aho umurwayi uruzi yitaweho n'umuganga, umuganga akaba yambaye impuzankano isa n'ubururu kandi bikagaragara ko yishimye, hakaba hari n'imiti bari guha uwo murwayi.

Umukecuru bigaragara ko asheshe akanguhe. Bikaba bigaragara ko ari mu zabukuru akaba afite agakombe karimo amazi. bikaba bigaragara ko ari gusoreza umuti, aho ahantu bigaragara ko ari kwa muganga.

Umuganga bigaragara ko ari gufasha umurwayi amucunga ku kagare, kifashishwa mu kugendamo abarwayi, hakagaragara n'abandi baganga bari kwita ku barwayi.

Umukecuru ndetse n'umusaza bigaragara ko bafite umusatsi urimo imvi z'uruyenzi, bakaba bishimye, imbere yabo hakaba hari amafunguro atandukanye y'intungamubiri zinyuranye.

Abadamu ndetse n'abapapa bigaragara ko bafite akanyamuneza ku maso ndetse n'abuzukuru babo, bigaragara ko bishimye cyane. Hakaba harimo umudamu ufite umusatsi mwinshi ndetse n'umwana ufite umusatsi mwinshi. Hakuno hakagaragaramo ibiti binini bikuze cyane, bikaba bigaragara ko akazuba kari kuva.

Umukecuru usheshe akanguhe bigaragara ko afite umusatsi urimo imvi z'uruyenzi, akaba ari kumwe n'umudamu bigaragara ko akiri mutoya bose bakaba bambaye impuzankano y'akazi bakora, hakurya yabo hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Abaganga ubona ko bambaye impuzankano yabugenewe y'akazi bakora, hakaba hari umuntu wicaye bigaragara ko bari gusuzuma indwara, hakurya hagaragara n'abandi bari ku murongo, bigaragara ko bategereje iyo serivisi, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu mberabyombi aho bigaragara ko harimo abayobozi bo mu nzego z'Igihugu batandukanye, bamwe bakaba bambaye impuzankano isa umukara, hakaba hari n'ibyapa biranga ibiganiro bari bitabiriye.

Inzu mberabyombi, aho bigaragara ko harimo abantu bitabiriye ikiganiro, imbere hakaba hari umuntu ufite indangururamajwi ari kubaha ikiganiro yambaye n'ikarita y'akazi akora, hakaba hari n'ibyapa biranga ibiganiro bitabiriye.

Imbaga y'abantu beshi cyane aho bigaragara ko harimo abambaye impuzankano isa umweru ndetse n'undi umwe ushinzwe umutekano wambaye impuzankano isa n'icyatsi kibisi, bikaba bigaragara ko bari gufata ifoto y'urwibutso, hakurya hakagaragara imodoka itwarira abagenzi hamwe.

Abamasera bigaragara ko bambaye impuzankano y'akazi bakora, bikaba bigaragara ko bari gusuhuzanya n'umugabo wambaye impuzankano, hakaba hari n'ibyapa biranga ko ari minisiteri ishinzwe ubuzima iri gukorera aho ngaho.

Ibikoresho by'akataraboneka byifashishwa kwa muganga, aho hagaragaramo intebe umurwayi yicaramo ndetse n'intebe umuganga yicaramo iyo ari kuvura umurwayi, hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa kugira ngo umurwayi babashe kumubona neza.

Abantu benshi batandukanye cyane bigaragara ko bicaye aho ngaho ku ntebe bategereje serivisi zitangirwa aho ngaho, hakaba hari n'umugabo uhagaze uri kubareba yambaye agapfukamunwa.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye, bigaragara ko bafite icyerekezo kimwe, hakaba harimo abambaye impuzankano y'ubururu, ndetse n'abandi bambaye amakote agiye atandukanye. Bikaba bigaragara ko hari ibidari, ari ibirori bitabiriye. Hakurya hakagaragaramo n'amazu atuwemo n'abantu. Ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu nini yo kwa muganga bigaragara ko harimo umuntu uri gukoreramo amasuku, hakaba hari n'umurwayi uryamyemo, bigaragara ko ari umugangada uje kumwitaho, hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa mu kuvura abarwayi.

Inzu mberabyombi, aho bigaragara ko harimo abantu benshi bajya kwaka serivise zitangirwa aho ngaho, hakaba hari n'umuntu wicaye, uri mu kagare, ufite ubumuga, imbere ye hakaba hari umuntu uri kumuha serivise.

Inzu mberabyombi bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye hakaba harimo abayobozi bicaye bari gukora ibiganiro ndetse hakaba hari n'ibyapa biranga ibyo barimo, imbere yabo hakaba hari za mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Inzu nyinshi cyane ubona ko zubakanye ubuhanga buhanitse aho bigaragara ko zitangirwamo serivisi zitandukanye hakagaragaramo ibigega bibika amazi ndetse n'insinga zitwara amashanyarazi ndetse n'amapoto afite amatara hakagaragaramo n'indabo nyinshi cyane.

Umugabo munini cyane, bigaragara ko aryamye kwa muganga arwaye, aho bigaragara impande ye ko hari ibikoresho bimufasha kumuvura, ndetse hakaba hari n'ibindi bikoresho byabugenewe bibitsemo imiti.

Inzu nyinshi ubona ko zitangirwamo serivise itandukanye, bikaba bigaragara ko akazuba kari kuva, akaba ari agahanda nyabagendwa hakaba n'ibyapa biranga ibihakorerwa, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Abadamu banini ndetse n'umugabo munini, aho bigaragara ko bamwe bambaye impuzankano ndetse n'abandi batambaye impuzankano, bigaragara ko ari ikigo bakorera bakaba bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umuganga wambaye impuzankano y'akazi akora, akaba yambaye n'icyuma mu ijosi kimufasha gupima abarwayi. Akaba ari kuganira n'umurwayi amubaza uburyo amerewe. Hakurya hakagaragaramo amansina y'ibitoki, bikaba bigaragara ko izuba riri kuva. Ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivise zitandukanye, aho hagaragara n'ibyapa biranga ibihakorerwa, hakaba hari n'utuyira tw'abanyamaguru dutandukanye, hakaba harimo n'abantu bari kugenda, hejuru hakagaragara insinga zitwaye amashanyarazi ziyavana mu gace kamwe ajya mu kandi, hakaba hari n'ibiti by'indabo bikuze cyane, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu nziza cyane bigaragara ko yubakanye ubuhanga buhanitse, aho bigaragara ko harimo intebe z'ubwoko butandukanye. Hakaba hari n'izikoreshwa nk'imitako, hakaba harimo n'igikoresho cyifashishwa mu kwerekana amashusho n'amajwi. Hakaba harimo n'amatara ari kwaka umweru.

Ibitaro bikuru bya Ruhengeri aho bigaragara ko bitanga serivisi z'ubuvuzi, hakaba hagaragara imbaga y'abantu benshi bari mu muhanda wegereye ibitaro abaganayo ndetse n'abagenzi barikwigendera, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho bigaragara ko ari kwa muganga hakaba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura abarwayi ndetse n'intebe baba bicayemo, hakaba hari n'ibikoresho byifashishwa mu gufata amajwi n'amashusho hakaba harimo n'isaha imanitse ndetse n'amatara ari kwaka asa umweru.

Inzu nini cyane bigaragara ko hatangirwamo serivisi zitandukanye. Aho hagaragara umuganga yambaye impuzankano y'akazi akora. Hakaba hari umwana wicaye wishimye bigaragara ko muganga ari kumuha serivisi ndetse no ku ruhande hakaba hari umubyeyi we uri kumureba.

Inzu nini bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye. Aho turi kubasha kureba, urabona ko ari icyumba cyifashishwa n'abaganga iyo bari gukura abarwayi b'amenyo. Hakaba hari n'intebe umuganga yicaraho ndetse n'ibyuma yifashisha apima amenyo arwaye.

Inzu nini cyane bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye. Hakaba hari n'ibyapa biranga ibikorerwamo. Hakaba hari n'abagabo bahagaze imbere y'inzu bari kuganira ndetse n'imodoka ihahagaze.

Inzu nini cyane ubona ko yubakanye ubuhanga buhanitse, aho igaragara ko itangirwamo serivise zitandukanye, mu mpande zayo hakaba hari ahantu haparitse imodoka ndetse n'indabo zikikije aho ngaho, ikirere kizaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo ngororamubiri, aho harimo ibigiye bitandukanye, ibikinwa nk'umupira w'amaguru ndetse n'ibikinwa mu gufatana aribyo mu ndimi z'amahanga bita rugubi n'utudenesi two kukina bazura.

Umukobwa bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri, akaba yambaye n'isaha ku kuboko. Akaba afite n'igikoresho cyifashishwa mu kumva umuziki. Mu ndimi z'amahanga aricyo bita koteri. Hakurya hagaragara ko ikirere gifite ibicu byiganje by'umweru.

Umukobwa bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri, akaba ari mu kibuga cyabugenewe, hakurya hakagaragaramo ibiti binini cyane, ikirere bikagaragara ko gifite ibicu by'umweru byiganje.

Umusore bigaragara ko yambaye impuzankano, bikaba bigaragara ko ari muri siporo ngororamubiri, akaba yicaye mu kibuga gifite ubwatsi butohagiye, bikaba bigaragara ko izuba riri kuva.

Imbaga y'abantu benshi baje kureba umukino ukinwa ukoreshejwe amaboko, mu ndimi z'amahanga ari wo bita basiketi aho haku hagaragara amasina y'ibitoki ndetse ikirere kikaba gifite ibice by'umweru byiganje.

Inzu ubona ko itangirwamo serivisi zitandukanye aho ubona ko hari igice kimwe cyabuhariweye gikorerwamo siporo ngororamubiri aho hagaragara ko hari umusore uri guterura ibyuma ndetse akaba ari n'umutoza umuhagarikiye umwereka ibyo akora.

Umusore munini cyane bigaragara ko ari muri siporo ngororamubiri akaba afite icupa ririmo amazi ari kuyanywa, ikirere rikaba bigaragara ko gifite ibicu ibyumweru byiganje.

inzu nini nti bigaragara ko itangirwamo serivisi zitandukanye, aho turi kubona bikagaragara ko ari igice gikorerwamo n'abaganga bakura amenyo. Hakagaragara intebe umuntu yicaramo iyo bari kumukura amenyo ndetse n'iyo umuganga aba yicayemo.

Imbaga y'abantu benshi bigaragara ko bari gukora siporo ngororamubiri, aho imbere yabo hari umuntu uri kubaha umwitozo bakora, hakurya hakaba hari ibiti bikikije aho hantu bari, akazuba bikagaragara ko kari kuva, ikirere kikaba gifite ibicu by'umweru byiganje.

Inzu nini cyane yababugenewe yifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri. Aho hagaragaramo ko harimo abagabo bari gukora siporo ngororamubiri ndetse n'abatoza bari kubereka ibyo bakora.

Amashusho yabugenewe yifashishwa mu gucuruza aho bigaragara ko bayambika ibyo bashaka ko bimenyekana bicuruzwa. Akaba ari ibipupe biba bikozwe mu mashusho y'abantu, ndetse hakaba harimo n'ibipupe bikoze mu maguru gusa.

Umuganga bigaragara ko ari kumwe n'umurwayi, aho yambaye impuzankano y'akazi akora ndetse akaba ari kwereka umurwayi siporo ngororamubiri agomba gukora kugira ngo uburwayi bwe bukomeze kugenda bworoha.

Abana benshi cyane bigaragara ko bishimye, bakaba bari kureba abantu bari gukina umupira w'amaboko, mu ndimi z'amahanga aribyo bita basket, bikaba bigaragara ko ikirere gifite ibicu iby'umweru byiganje, hakaba izuba riri kuva.

Umusore munini cyane bigaragara ko ari gukora siporo ngororamubiri, akaba yambaye impuzankano. Ikirere bikaba bigaragara ko gifite ibicu byumweru byiganje, akaba yicaye mu kibuga.

Abantu bambaye ibirango by'umuryango utabara imbabare aribo mu ndimi z'amahanga bita kuruwaruje, bigaragara ko bateruye umuntu wagize ikibazo, hakurya hagaragaramo n'abandi bantu bambaye impuzankano isa n'umweru, hakaba hari n'ibiti binini bikuze cyane bikaba bigaragara ko akazuba kari kuva.

Ubwoko bw'ibiti butandukanye ndetse n'ibyatsi bitandukanye aho bigaragara ko bimwe banabyifashishaga bakora imiti ya kinyarwanda, hakurya hakaba hagaragara ko ikirere gifite ibicu by'umweru byiganje.